Icyapa kigaragaza ikigo gitanga ubwishingizi bw'ibintu, abantu. Kiri ku muhanda, aho kiri kwamamaza. Kigirango gishake abantu bakoresha iyo serivise nyine yo kubona ubwishingizi, giha aba kiriya bacyo.

Kwamamaza bakoresheje ibyapa aho bari kwamamaza ko gitanga ubwishingizi bw'amamodoka mu gihe ikinyabiziga cyagize impanuka, bari gukora nyine adivatayizimenti ku byapa byo mu muhanda berekana ko batanga serivisi zo gutanga ubwishingizi ku bininyabiziga byakoze impanuka gutanga ubwishingizi nyine bw'ibinyabiziga.

Ni ikigo cya kampani ishinzwe gutanga ubwishingizi ku nkongi y'umuriro, ku mazu cyangwa kuri bizinesi zibasiwe n'inkongi y'umuriro, hano rero yari irimo iramamaza cyangwa yerekana ibyo ikora, uko ikora, yamamaza iby'inkongi z'umuriro, ku bantu baba bakeneye cyangwa bashaka kwi

Iki ikigo cy'ubwishingizi gitanga ubwishingizi bw'ibicuruzwa bitandukanye by'amamodoka by'inzuba kikaba gitanga n'ubwishingizi muri rusange cyitwa prime life insurance gitanga ubwishingizi kikaba kinakorera mu gihugu cy'u Rwanda meyibi n'ibindi bihugu bitandukanye.

Icyapa kinini kiri mu muhanda, aho kiri kuburira cyangwa kimenyesha, abakoresha umuhanda, akaba ari icyapa nyine kiburira, kibuza abakoresha umuhanda, gukoresha telefoni mu gihe batwaye, ni icyapa kiburira ariko gitanga n'amakuru cyerekana cyigisha abakoresha umuhanda by'umwihariko abayobozi b'ibinyabiziga.

Mu kwamamaza cyangwa ku menyekanisha serivisi iki kigo cya radiant gitanga, aho ari ikigo gitanga ubwishingizi bw'abantu n'ibintu byabo bitanga, ubwishingizi bw'amamodoka, bw'ibinyabiziga cyangwa bugatanga ubwishingizi bw'abantu, ubu rero bari kwamamaza bamenyesha abakiriya bacyo serivisi batanga ibyo bakora kugira abo bantu bakorane nacyo.

uyu ni umukozi ushinzwe gutanga serivisi nziza customer care supot akora mu kigo gitanga ubwishingizi cya sonerwa ,hano bari bari kumutwereka nyine bakora marketing cyangwa abakorade vetacement bakayekana website bakoresha bakerekana uburyo umuntu yaba joining wabona serivisi zabo.

Icyapa cyamamaza ubwishingizi bw'amazu n'ubundi bwishingizi bw'ibintu muri rusange, iki cyapa cyangwa ino furati sikirini, yaririmo igaragaza nyine icyo kigo gitanga ubwishingizi gishishikariza abantu gukorana nacyo kugira babahe ubwishingizi bwashobora.

Umucuruzi uhagaze arimo aragira inama, arimo aratanga impanuro z'uko yatangiye agaragaza ibicuruzwa bye. Inyuma ye ndabona utubati turimo ibicuruzwa bitandukanye, buri bicuruzwa bihiye bifite umwanya wabyo. Ni umucuruzi nyine wakoze bizinesi witeza imbere.

Ubucuruzi bw’imitako ndabona imitako itandukanye iri mu ma etajeli yabugenewe meza, ndabona imitako inyuranye hirya no hino muri iyi nyubako. Ni ubucuruzi rero bwo gucuruza imitako n’ibikoresho by’ubugeni muri rusange

Iduka rimanitsemo imyenda, aho bigaragaza ko hacururizwa imyenda y'amoko yose by'umwihariko iy'abantu bakuru. Hari amakanzu amanitse apanze neza ku murongo ndetse n'amapantaro y'abagabo, y'amakoboyi asanzwe. Ni mu iduka rero muri rusange ricuruza imyenda.

Ikinyabiziga gihagaze cyangwa giparitse mu mwanya wacyo hirya yaho hari ibindi binyabiziga biparitse, ni ibininyabiziga byo mu bwoko bumwe ibinyabiziga bitoya atari ibinyabiziga binini biparitse ahantu runaka.

Iki ni kinyabiziga kiri kwamamazwa, bamenyesha umukiriya waba afite gahunda yo kuba yakigura, ko yaza akagura hariho igiciro cy'i modoka iri kugurishwa, hariho amazina yayo n'igihe yasohokewe cyangwa yakorewe, muri makeya ni ikinyabiziga cyiteguye kuba cyaguri.

Ikinyabiziga cy'umweru kimaze guteranyirizwa mu ruganda rugiteranya cyangwa rugikora n'imodoka nshyashya nyine.

Akagera moto ni bizinesi icuruza amamodoka n'ibikoresho bya elegitoronike bitandukanye, hano bari bari kwerekana igikamyo gishyashya cyari cyaguzwe cyangwa cyari kiri gukora nka maketingi ndabona hahagaze aho abagabo babiri bari gukora disikiribushoni nyine y’akagera moto cyangwa na poroduwi muri rusange.

Ndabona abanyafurika babiri nkabona igikamyo cya rukurura na kirekire, bigaragaza ko n'umunyamahanga yari yakiguze n'akagera motosi ishinzwe cyangwa ikora ibintu byo kugurisha ibikore elegitoronike nk'imodoka n'ibindi bitandukanye mu by'ukuri rero n'umunyamahanga yari yabiguze, bamushimira uburyo nyine bwo guha serivisi nziza kubera serivisi zitangwa.

Bizinesi cyangwa ubucuruzi bw'amamodoka maremare, ifoto igaragaza ibikamyo, ibinyabiziga birebire, n'umukiriya waje kugura, kimwe muri ibyo binyabiziga na kampani ibicuruza akagenera motozi uburyo bwo kumenyekanisha cyangwa kwamamaza ibicuruzwa batanga.

Iyi n'inoti y'igihumbi ya kera, amafaranga y'amanyarwanda ariko yakoreshwaga mugihe cya kera kuko urabona iyi note nyine n'iyakera irashaje n'iyambere ariko n'amafaranga nyine y'igihumbi yakoreshwaga mugihe cya kera.

Kuri banki aho umukiriya agiye kwaka serivisi za banki kubikuza cyangwa akaba ari ahantu ibiro by'ivunjisha ,aho umukiriya agenda akajyana amafaranga y'amanyamahanga bakamuha amanyarwanda ariko muri rusange ni muri banki aho abakiriya baza gukoresha serivisi za banki no kubikuza amafaranga.

Umukiriya ari guhabwa serivisi zitangwa na banke aho bari ku mubarira amafaranga abikuje, ari kuri gishe bamuha amafaranga yaje kubikuza ari gukoresha serivisi za banke.

Amafaranga agizwe n'inote ndetse n'ibiceri, aho ari amafaranga akoreshwa mu bihugu byo hanze cyangwa amafaranga akoreshwa nyine ku rwego mpuzamahanga, n'amafaranga y'ibindi bihugu amafaranga y'abanyamahanga agizwe n'inote ndetse n'ibiceri bikabageretse ku meza.

Imbere muri bizinesi aho abakiriya bicaye mu byicaro, bari guhabwa serivisi n'umucuruzi batanga serivisi, nyine zo guha abakiriya ibicuruzwa ibyo kunywa ndetse n'ibyo gufatisha, ni muri kantine mo imbere harimo abaguzi ndetse n'umucuruzi uri kubaha ibicuruzwa bakeneye.

Muri kantine ndahabona isahani iriho amandazi abiri, irindazi rimwe na seriviete nkabona gapo keti bashyira serivete nkabona ni'meza n'iki gitambaro kiri ku meza, hirya nkahabona intebe z'ubururu umukiliya yicaraho agiye gufata ibyo yatumije. Muri makeya rero ni muri kantine aho ahishara umukiriya waje kugira ibyo afata muri kantine.

Serivisi itangwa n'iki kigo cyangwa iyi kampani aho bari bari gusobanurira uno munyamahanga ibijyanye n'icyo kigo, serivisi gitanga uburyo bwo kwishyura amakuru y'ibanze nyine, yari ari guhabwa n'uyu mukozi ukora muri iki kigo amusobanura muri rusange uko bimeze.

Sisiteme ya Eyateri, ni kampani nyine itanga itanga serivisi z'uburyo abantu bahuza, bavugana bakoresheje uburyo bwo kuganira bakoresheje umunwa cyangwa nka ubutumwa bwanditse esemesi. Iyi ni gahunda rero bashyizemo berekana uburyo wakoresha ukabona serivise zabo ugakoresha.

Inzira wanyuramo zuburyo umuntu yakoherereza amafaranga yohereza amafaranga umuntu bari kumwe mu gihugu cyangwa umuntu uri mu kindi gihugu. Ni inzira nyine umuntu anyuramo kugira wenda izo serivisi akeneye zo koherereza amafaranga yohereza undi muntu zishoboke bitewe n'inzira yanyuzemo hano rero ni muri izo nzira .

Facture(inyemezabuguzi) igaragaza money transfer (ihererekanya ry 'amafaranga) uburyo amafaranga yagiye yoherezwa ava kumuntu umwe ajya kuwundi. Iyi ni facture(inyemezabuguzi) rero igaragaza ibyo byose muri rusange (money transfer).

Icyapa cyangwa ifoto igaragaza uburyo wakoresha ino serivisi muri telefone yawe, uburyo wabikoramo, inzira wanyuramo, kugira ngo ugere kuri iyo serivisi wifuza. Ni itangazo cyangwa icyapa kiba kigaragaza, cyerekana, kimenyesha abakiriya bakeneye izo serivisi zitangwa n'icyo kigo. Uburyo bakoresha bakabona serivisi bakeneye.

Iyi ni fagiture cyangwa icyemezo kigaragaza ko umucuruzi, rwiyemezamirimo cyangwa undi wese ufite business imwinjiza amafaranga yishyuye imisoro n'amahoro ku kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro rwanda reveni otoruti. Iyi rero ni fagitire cyangwa ikibyemeza ko yishyuye akishyura umusoro mu gihe runaka kiba cyasabwe cyangwa cyagenwe n'igihugu cye.

Rese cyangwa fagitire ya itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda aho igaragazaho umucuruzi yasoze mu gihe runaka amafaranga yasoze igihe yasoreye ndetse ikagaragaza n'ubucuruzi akora cyangwa buzinesi muri rusange rero ni rese cyangwa fagitire igaragaza uko umucuruzi yasoze amafaranga y'imisoro n'amahoro binjjira muri Rwanda revenu bitewe n'ubucuruzi akora.

Iyi ni rese cyangwa icyemezo kigaragaza nyine ko wahawe serivisi za Rwanda reveni otoriti; ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Aho ibigaragaza nyine uko ukwezi kurangiye wishyura imisoro ijya mu isanduku ya leta nyine, uburyo igaragaza nyine uko waba...

Fagitire itangwa muri serivise z'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, aho iba igaragaza uko umucuruzi ufite ubucuruzi butandukanye cyangwa ubwo aribwo bwose yishyuye imisoro ku kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro.

Raporo igaragaza ibyakozwe mu gihe runaka nigihe byakozwe amafaranga yagiye atangwa muri make nyine ni raporo igaragaza muri rusange uburyo amafaranga yagiye atangwa agiye akoreshwa n'ibyo yagiye akorwamo ano matariki bikagaragazwa nyine n'amatariki ibintu byose birimo hano.

Amafaranga y'ibiceri yakoreshwaga ndabona hari n'inote z'amanyamahanga amafaranga y'amanyamahanga n'amafaranga nyine akoreshwa ku rwego mpuzamahanga mu bihugu bitandukanye byo ku isi ariko by'imahanga.

Amafaranga y'abanyamahanga aya ni umuntu ufite ubu afite mu ntoki amadorari amafaranga akoreshwa ku isi hose ariko ya leta zunze ubumwe za Amerika igihugu gikomeye ku isi ano rero ni amafaranga y'umuyamahanga by'umwihariko amadolarifaranga ya leta zunze ubumwe za amerika hasi ndabona hari ayandidi mafaranga y'abanyamahanga.

Ibyapa bimenyesha, biha amakuru umukiriya waje kuvunjisha, uno mugabo arimo arandika nyine kuri ibi byapa uko amafaranga y'amanyamahanga agura ndetse nuko agurishwa. Hano rero ni ku biro by'ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga.

Amafaranga y'amanyamahanga, ndaboa amaodarali, ndabona amafaranga yo mu bindi bihugu, ahaa umuntu warurikubara yo mu bihugu byo hanze atari amanyarwanda, aya mafaranga rero akoreshwa hanze y'u Rwanda.

Inoti y'amafaranga ijana amafaranga y'amanyamahanga hariho ibirango kuri iyo note biyigize ni amafaranga muri rusange y'amanyamahanga akoreshwa n'ibindi bihugu hanze y'u Rwanda akaba nyine ari amafaranga y'amanyamahanga.

Imbere muri banki cyangwa imbere y'ikigo gishinzwe iby'imari bari batanga serivisi nyine ku bantu bakoresha icyo kigo, by'umwihariko bakaba ari ikigo gishinzwe kugenzura ibijyanye n'imari cyangwa n'amafaranga muri rusange.

Iki ni icyapa cyerekana ko aha ngaha hakorerwa ivunjisha ry'amafaranga, hakaba hitwa Raforitine, hakorerwa ivunjisha ry'amafaranga. Muri rusange rero, ni biro y'ivunjisha, aho ujyana amafaranga y'amanyarwanda, bakaguha amafaranga y'amanyamahanga cyangwa ukajyana amafaranga y'amanyamahanga, bakaguha amanyarwanda. Ni ibiro by'ivunjisha ry'amafaranga nyine atandukanye.

Icyapa kiriho amakuru y'iyi biro y'ivunjisha akaba yerekana ko hano hano hakorerwa ivunjisha, ni ibiro cyangwa ahantu hagenewe kuvungishirizwa amafaranga, biro y'ivunji aho ujyana amafaranga y'abanyarwanda bakaguha amanyamahanga.

Hano naho ni ahakorerwa ivunjisha ry'amafaranga, aho ujyana amafaranga y'amanyamahanga, bakaguha umanyarwanda, cyangwa bakaguha ayandi mu kindi gihugu, cyangwa ukajyana amafaranga y'amanyarwanda bakaguha amanyamahanga, so ni biro y'ivunjisha rero ahakorerwa ivunjisha.

Ibiro bishinzwe ivunjisha ndabona icyapa kiharanga, ndabobna umuryango uhinjira, aha ibiro byivunjisha aho ujyana amanyarwanda bakaguha amafaranga y'amanyamahanga cyangwa ukajyana amafaranga y'amanyamahanga bakaguha amafaranga y'igihugu ushaka kujyamo cyangwa amafaranga ukeneye.

Umuryango uriho icyapa kigaragaza ko hano hakorerwa ivunjisha ari ibiro by'ivunjisha, barikumenyekanisha bari kwamamaza kuri ibi byapa biri ku miryango ndetse n'icyapa kiri hejuru y'uyu muryango wayo, ni uburyo bwo kwamamaza nyine ko no kumenyekanisha ko hano hari ibiro by'ivunjisha.

Saro nziza irimo intebe nziza z'amadive z'umukara, zantebe z'imisego nkabona imeza nziza ndetse n'udutebe twayo, nimunzu rero muri saro hasa neza hakeye. Saro nziza irimo n'isima nziza hasi hasa neza cyane.

Ibikoresho byo mu nzu bigizwe n'intebe ndetse n'akameza, byakozwe mu mbaho bisize verine nziza ndetse mu ntebe harimo imisego y'umweru isa neza, ni muri saro nyine ubona ko harimo ibikoresho byiza byakozwe mu mbaho nk'izo ntebe n'ayo meza.

Salo nziza irimo amarido meza, intebe nziza, imisego myiza, ndabona intebe n'ameza bikoreshejwe mu mbaho hariho n'imisego yayo, ni saro nziza igaragara neza, irimo amarangi meza, irakeye, harimo amakaro meza, ntekereza ko bari bari gukora maketingi cyangwa nyine ari salo bari bari kugaragaza.

Ndabona ari ahantu hakorerwa ubucuruzi, imeza n'intebe zikozwe mu mbaho, nkabona intebe ziriho imisego y'icyatsi, ku meza hariho furati yo hejuru y'umweru, hirya y'izo ntebe n'izo meza hari igitanda kiriho matera gishashe neza hariho kuvurori y'umweru, amakaro meza, meyi bi ni ahantu bakorera ubucuruzi nyine bacururiza ibikoresho bikorwa mu mbaho.

Hejuru mu nzu igeretse aho abantu babiri basohokera bagafata icyo kunywa bagasangira bicaye bitegereza umujyi baganira bahuza urugwiro , nahasohokerwa n'abantu babiri bakaganira bagahuza urugwiro bagafata icyo kunywa bakishima .

Hano ntekereza ko ari mu mujyi rwagati i Kigali nkabona inyubako igeretse gatatu, nkabona ibinyabiziga biparitse nkabona n'ibindi biri mu muhanda bigenda, nkabona n'ikinyabiziga gituruka hepfo kizamuka cyacanye amatara maremare mu muhanda, bari mu masaha y'ijoro amatara yo mu muhanda ari kumurika, nta rujya n'uruza ruhari ariko ndi kubona abantu bakeya.

N'inyubako irimo cyangw' igaragaz' ibiro bikuru bya saniramu, akaba ar' ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi ndabona imiryango,

Ibiro bya kampani itanga ubwishingizi, aho bari bategereje abakiriya bakoresha cyangwa bakenera serivisi z'ubwishingizi, bw'amamodoka, bw'abantu

Ibiro cyangwa ishami rya sonarwa akaba ari kampany itanga ubwishingizi bw'amazu, bw'ibinyabiziga by'amashuri. Muri macye rero iri n'ishami ryaho cyangwa ibiro aho abaturage batandukanye bari baje gushaka serivisi zaho cyangwa kumva serivisi iki kigo gitanga.

Inyubako ndende z'amagorofa zitandukanye, imwe iri hakurya y'umuhanda, indi iri hano hafi naho y'umuhanda, ndabona amasaha ari mu muhanda nayo yamamaza, nkabona hano hafi hari ikintu kiri kwamamaza ko hano muri iyi nyubako hari ibikorerwamo, nkabona n'umuhanda, nkabona ikinyabiziga muri makeya rero ni

Ibyapa ntango ukorerwamo cyangwa utangirwamo serivisi z'irembo, aho haba harimo umu ajenti utanga serivisi z'irembo, aha ndetse n'iz'abandi, n'iz'ayandi mabanke n'ibigo by'imari a ni marembo aho mo imbere hatangirwamo izo serivisi z' irembo, ba serivisi za ekwiti banke ndetse n'izindi serivisi z'ibigo by'imari.

Itangazo ryo kumenyesha ko ishami riri gukora kandi rihari kugira ngo abakiriya bakoresha.

Igipapuro cya ekwiti iyi ni banki ikorera mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda ishinzwe kubika no kubikuza amafaranga y'abanyamuryango bakoreshao ino banki, iki ni igipapuro rero umunyamuryango yuzuza ashaka inguzanyo akagira ibyo yuzuza bijyanye nyine n'uburyo yahabwa inguzanyo, icyo azayikoresha ibisabwa nyine byuzurizwa kuri iki gipapuro kugira ngo umunyamuryango ahabwe inguzanyo y'amafaranga.

Uburyo bwo kwamamaza binyuze mu byapa cyangwa bakoresheje amafoto aho bari bari kwamamaza cyangwa bamenyekanisha ibikorwa cyangwa serivisi iki kigo gitanga, ibyiza byacyo bakangurira abakiriya kuza gukoresha serivisi zayo.

Inyubako iherereye Nyabugugogo mu karere ka Nyarugenge, ndabona ishungerewemo n'abantu benshi batandukanye bari bashungereye nkabona imodoka ya polisi, abantu batandukanye bari hasi ku muhanda nkabona imodoka ziparitse, abaturage bashungereye bishoboka ko hari habaye ibyago cyangwa ikibazo, cyangwa impanuka bari bashungereye bareba nyine uko bimeze.

Umucuruzi wikoreye imineke arayiranguza, cyangwa akayicuruza kuri detaile umwe kuri umwe, afite agasakoshi cyangwa akamalete yikenyeje, ari kwambuka umuhanda ari kunyura mu muhanda, aho agiye gucuruza aho akora ubucuruzi bw'imigeke.

Abakozi ba Emutiyeni bambaye imipira ya Emutiyeni, bari gucuruza serivisi zitangwa na Emutiyeni ku bakiriya babo, bari kwamamaza cyangwa bari gutanga muri rusange serivisi za Emutiyeni zigenewe abakiriya bakoresha umuyoboro n'umurongo bya Emutiyeni.

Umu ajenti wa emutiyene cyangwa umukozi wa emutiyene, aho yari ari mu kazu akoreramo gatoya atangiramo serivisi za emutiyene nko gutanga amayinite, kubitsa kubikuza amafaranga binyuze ku muyoboro emutiyene akaba, afasha abakiriya nyine kubona serivisi za emutiyene nk'izo zo kubitsa kubikuza kohereza gutanga amayinite.

Umukozi wa emutiyene ari guha serivisi umukiriya ukoresha umuyoboro wa emutiyene, begereye ku kazu gatangirwamo serivisi za emutiyene.

Akazu gatoya nyine gatangirwamo serivise za eyateri mani, aho umukiriya aza akakegera agahabwa serivise za eyateri mani n'umukozi ubishinzwe uba warabigenewe nyine uba ukorera imbere muri kano kazu. Gatangirwamo muri rusange serivise za eyateri mani.

Sikirini ya telefone aho bari kwerekana uburyo ino porogaramu cyangwa urubuga rufasha mu gucuruza, mu gucururizaho inkweto z'abagabo ziba zakozwe nyine nkabona n'ibiciro byazo, nkabona amafulashe disiki, nkabona telefone ni maketi purese muri rusange.

Ibinyabiziga biriho ababitwara, abayobozi babyo bikaba bishinzwe ni amamoto nyine, akaba ashinzwe gutwara ibiryo ndetse n'amafunguro n'ibinyobwa bakabishyira ababitumijeho ndetse bakishyurwa bakorera kompanyi nyine zishinzwe gukora izo serivisi.

Umugabo ukora se ukora akazi cyangwa utanga serivise yo kugemurira gushyira abakiriya ibicuruzwa batumye, akabibagereza aho batuye cyangwa aho bari ni muri serivisi nyeyine yo gu yo kwihutisha serivisi ku bakoresha ku bakorana n'ibi bigo, byihutisha nyine bigemurira abakiriya babo, ibicuruzwa bitandukanye ahantu hatandukanye bari.

Ifoto irimo inyubako zigeretse ndetse akaba ari inyubako zigenewe imiturire by'umwihariko amazu aho bari kumenyesha aho ziri, ziherereye ndetse n'amafaranga yo kuba wazigura ni itangazo ryo kumenyekanisha cyangwa uburyo bwo kwamamaza ko hari amazu akenewe kugurwa.

Imbere mu nzu cyangwa mu nyubako aho harimo ubwogero haba umuntu akabira ndetse imbere yaho hakaba hari aho umuntu yihereramo, ni muri douche ariko iri kumwe na tuwarete byegeranye hagenewe kwihererwamo, hakaba hari naho riherereye nyine.

Inyubako nziza cyane igurwa cyangwa ikodeshwa aho bari bari kwerekana uko imeze banamenyesha uwaba wifuza kuyigura ko yayigura n'amafaranga yazana ndetse n'ahantu iherereye n'uburyo bwo kumenyekanisha gushishikariza umuntu ufite amafaranga ko yaza kuyigura cyangwa kuyikodesha.

Urabona umunyamahanga uri kugenda ava hamwe ajya ahandi, ni inzu igurishwa , ndabona harimo ubusitani, ndabona hari inzu yo kubamo cyangwa yo gukoreramo bizinezi runaka, mu ma geste hawuze cyangwa masaje, ni umunyamahanga ndabona hariho n'amakaro.

Inyubako nini igeretse iri gukoreshwa mu kwamamaza bamenyekanisha ko hari inzu zikodeshwa zagurwa n'abantu bakeneye kuzibamo bagaragaza nyine ibizigize amafaranga ni ukumenyesha cyangwa kwamamaza banereka

Inzu nziza yubatse neza iri mu gipangu cyiza y'amapave, igipangu harimo amapave, kirakorotiriye neza ni inzu igurishwa, ikodeshwa n'amafaranga yo kuyikodesha.

Inzu ikodeshwa, aho iyi foto igaragaza cyangwa imenyesha ko ikodesha kugira ngo umuntu wifuza kuyikodesha abifitiye ubushobozi kandi abishaka ko yaza akayikodesha, amafaranga yishyurwa buri kwezi ndetse ko harimo n'iyumba, kimwe n'ubwogero bumwe n'ikumenyekanisha cyangwa gutangaza ko iyi nzu ikodeshwa, umuntu yifuza kuyikodesha.

Iri duka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye by'umwihariko byo kwambara. Ndabona udushakoshi two guheka tw'abamama, nkabonara imikandara, nkabona n'inkweto z'abagabo,

Hano ni mu isoko cyangwa iduka ricuruza amashakoshi y'abadamu, abamama, abagore, agacuruza inkweto z'abagabo ndazibona nazo, nkabona akantu k'uruziga kariho imikandara, nkabona abaguzi baje kugura mu iduka cyangwa nyine mu isoko ricuruza imyenda n'ibindi bishamikiye ku myenda

Imbere muri kontwari aho mpabona ibicuruzwa bitandukanye byumwihariko ibinyobwa, nkabona n'imashini ikora kofi izwi nka ekisipureso mashini, nkabona mashini, nkabona purinta, nkabona utu etajeri irimo udukombe, udukarito n'izindi poroduwi, nkabona intebe n'imbere nyine muri kontwari.

Iduka ricururizwamo imyenda cyangwa imyambaro y'ubukwe by'umwihariko amakositimu y'abagabo, harimo abacuruzi n'abaguzi bari kuganira ku biciro by'iyo myenda.

Ifoto cyangwa icyapa kigaragaza ikigo k'igihugu cy'ubwiteganyirize mu rwanda ara esesesibi, serivise gitanga gishishikariza abantu gukoresha serivise zacyo ni nk'uburyo bwo kumenyekanisha cyangwa kwamamaza serivise icyo kigo gitanga cyangwa n'uburyo bwo gukorana nacyo ku bantu bakeneye serivise zacyo.

Hano ni serivisi cyangwa porogaram bari gukoresha, aho bari guhuza amakuru yanditse n'ayo mu ikoranabuhanga bareba uko umuntu atanga serivisi z'ubuzima z'ubwiteganyirize. Bari guhuza rero amakuru yanditse n'ayo mu ikoranabuhanga, bareba uko sisiteme, porogararamu imeze, n'uko ikoreshwa.

Igikorwa remezo cy'ubuvuzi, cyangwa cy'ubuzima, aho abarwayi baza kurebera no gusabira serivise z'ubuzima mu gihe barwaye, mu gihe barembye, ni ahatangirwa serivise z'ubuzima muri rusange, ku muntu urwaye.

Iyi ni ikarita y'abanyamuryango bakorana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwishingi, ubwiteganyirize mu Rwanda aho ino karita, cyangwa ibintu bashyira muri iyi karita biba byarahujwe na sisiteme, aho byorohera umuntu wishyuye serivisi z'iyi mituweli kuba yabona ubuvuzi bwihuse n'ubwisungane mu kwivuza bizwi nka mituweli bifa.

Hano ni mu iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye muri supermarketi amaduka nyine agezweho meza ndabona harimo abakiriya bari kwishyura uyu muntu ukora mu bintu byo kwishyuza arimo kubarebera ibicuruzwa bajyanye harimo n'abandi bari gushaka ibicuruzwa bakeneye mu iduka .

Ni amafirigo akonjesha ibinyobwa, aho ibi binyobwa birimo bikonjeshwa kugira ngo bifatwe n'umuguzi wabiguze agira ngo abinywe ariko bikonje, ni amafirigo nyine arimo ibinyobwa muri makeya.

Hanze y'iri duka aho hari ibyicaro by'abantu, bicaye mu matsinda hari ibyicaro byabo byabagenewe. Ndetse n'ameza yo guterekaho ibicuruzwa baguze cyangwa baje gufatira hano. Muri rusange rero n' ibyicaro bigenewe abakiriya baje gufata ibicuruzwa by'iri duka ryitwa simba.